Iki ni icyumba cy'amashuri, kirimo intebe z'imbaho, izi ntebe zikunze gukoreshwa mu gihe cyo kwiga, abanyeshuri bazicaraho, bazandikiraho, ni cyo gikoresho cyo ku ishuri gikoreshwa cyane.